Ingabo z'igihugu cyacu zikora akarasisi neza cyane. Iyo bari gutambuka usanga binogeye amaso kubireba, ari byiza cyane. Turabakunda rwose bajye bakomereza aho.

Inkweto zambarwa n'abashinzwe umutekano, harimo polisi, harimo daso, izo nkweto ziba zikomeye cyane. Ziba zitandukanye n'izindi zisanzwe z'abaturage.

Inama irimo abayobozi, irimo abashinzwe umutekano, polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu kandi inama ikaba irimo libu...

Mu Rwanda dufite gaze, abanyarwanda benshi bateka kuri gaze, niyo mpamvu polisi yafashe ingamba zo kwigisha abaturage, uko bazimya gaze igihe yatse

Abayobozi b'igihugu cyacu bafatanya mu nzego zose yaba inzego za polisi, yaba inzego za gisirikare, yaba inzego za daso abo bose bafatanyiriza hamwe muri gahunda y'umutekano haba no muri gahunda y'iterambere ry'igihugu.

Ubwato ni bwiza cyane burafasha muri za gahunda zo kwambuka imigezi, inzuzi ndetse n'ibiyaga, n'inyanja, Kandi hariho ubwato bugiye butandukanye. Hari ubwato bukoreshwa n'ingashya hakabaho n'ubwato bukoreshwa na moteri.

Kamera ni nziza cyane zicunga umutekano haragira ngo harebwe abakoze amakosa; zikunda kuba ahantu hatandukanye kuri feruje, muri za banki n'ahandi n'abaturage nabo bashobora kuzikoresha.

Inzego z'umutekano w'Igihugu cyacu iyo zahuye usanga ari byiza cyane. Polisi y'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ndetse na Ribu ndetse n'Abacungagereza, usanga iyo bahuye bari kujya inama ugasanga ni byiza cyane.

Umukino wo gusiganwa ku magare ni mwiza cyane, iyo wabaye uhuruza abantu benshi, ni ngombwa rero ko iyo hari isiganwa ry'amagare hagomba kuba hari abapolisi babayobora mu cyerekezo bashaka.

Kamera zo mu muhanda ni nziza cyane, zituma abashoferi bagabanya umuvuduko. Iyo batagabanyije umuvuduko, zirabafotora hanyuma bagacibwa amande.

Urwego rwa Daso ni urwego rwashyizweho na Leta y'u Rwanda, kugira ngo rujye rufasha abaturage mu bikorwa bitandukanye. Rukunda gukorera ku mirenge ndetse no ku karere n'ahandi bahisemo y'uko bakora.

Indege ya kajugujugu y'u Rwanda, biragaragara ko ari indege y'u Rwanda, kuko ifite ibendera ry'igihugu inyuma, kandi iryo bendera ririmo riragenda rigaragara cyane kuko umuyaga uri kurihuha. Iyi ndege ni nziza cyane.

Ingabo z'igihugu iyo ziri gukora akarasisi biba binejeje cane; baba bagenda umujyo umwe, intambwe ku yindi ugasanga kubireba ni byiza cane.

Polisi y'u Rwanda icunga umutekano neza. Igacunga umutekano w'abantu n'ibintu byaho, turabashima.

Abaturage bakorana neza n'inzego z'umutekano. Izo nzego z'umutekano, harimo na polisi. Polisi ibagezaho ingamba zayo n'ukuntu bakwiriye kwiyubakira Igihugu.

Kera mu muco wa kinyagwanda harimo inka z'inyambo, izi nka zikagira amahembe maremare n'ubu ngubu hari aho zikiboneka kandi ziba ari nziza cyane.

Inkono y'ibumba ni inkono nziza cyane kuko ikunda guteka ibiryo kandi bikaryoha watekamo ibijumba, watekamo ibishyimbo watekamo inyama, watekamo n'ikindi kintu cyose ushaka.

Abanyarwanda bazi kuboha umutiba. Umutiba bawukora mu mbingo ndetse ukoresheje n'amase inyuma ushyiraho ibirere ,umutwe waho ugahomaho amase ndetse ugapfumuramo n'imyenge inzuki zizanyuramo.

Mu muco wo hambere hirya no hino wahasangaga imitiba ya kinyarwanda yabaga iboshywe mu migano ndetse no mu birere, hanyuma mu mitwe yayo hakaba harimo amaso inzuki zibasha kunyuramo. Iyi mitiba rero ikabamo ubuki buryoha.

Muri gahunda zo kwerekana umuco nyarwanda, usanga intore n'ababyinnyi berekana uko u Rwanda rwa kera rwari rumeze usanga berekana uko ibisabo byabaga bimeze n'ukuntu babikoreshaga, cyangwa se inkongoro uko zabaga zimeze n'ukuntu zakoreshwaga.

Ingobyi ya kera yabaga ifite imijishi ine. Bayirambikagaho ikirago, hanyuma icyo kirago ni cyo umuntu yaryamagaho. Hanyuma bakamujyana kwa muganga ndetse yemwe mu gihe cyo hambere, yakoreshwaga n'ibwami aho bafataga umwami bakamushyira mu ngobyi.

Inkongoro ni nziza cyane mu muco wa kinyarwanda ,inkongoro ikamirwamo amata y'inka kandi ikoreshwa mu kunywa amata.

Mu bihe byo hambere wasangaga abakecuru cyangwa se abamama biteye urugori, urugori wasangaga rubabereye kandi wasangaga bambaye n'urunigi mu ijosi, kandi bakenyeye uwo akaba ari umuco w'abanyarwanda.

Kureba intore biranezeza cyane, iyo zirimo zihamiriza zifite ingabo, zifite icumu ,zikanaga umugara usanga binogeye amaso.

Mu muco wa Kinyarwanda harimo umuganura . Iyo umuganura wabaye habaho ibirori no kwishima abantu bagasangirira hamwe urugero ibigori, cyangwa se imitsima , cyangwa se no kunywa ubushera , cyangwa se amarwa atandukanye.

Isekuro ya kinyarwanda ni isekuro ikozwe mu giti ikaba ifite n'umuhini. Umuhini akaba aribo bakoresha basekura ibintu biri mu isekuro, ashobora kuba ari isombe, ashobora kuba ari soya zikaranze, ashobora kuba ari ubunyobwa, ashobora no kuba ari ikindi kintu cyose ushaka gusekura gisekururwa.

Umuco wo kugira amasunzu ku mutwe ni uwa kera, abagabo biyogosheshaga amasunzu, n'abagore babishaka nabo biyogosheshaga amasunzu.

Kuvuza ingoma ni umuco wa kinyarwanda. Zikunda kuvuzwa iyo bari kwakira abashitsi cyangwa se mu mbyino runaka. Hakoreshwa imirisho itandukanye kandi no kuzivuza biba bitandukanye.

Mu muco wa kinkinyarwanda harimo icyo twakwita imivure. Imivure ikaba ikozwe mu giti cy'umuvumu, kandi hakabaho ubukamuzo bwakoreshwaga, bakamura ibitoki cyangwa se icyo twakwita igikatsi.

Mu umuco wo hambere hari inzu za kinyarwanda .Usanga ziteguyemo ibirago ,ibisabo ,inkongoro, wasangaga ari byiza cyane.

Inzu za kinyarwanda zo hambere zabaga zisakajwe ibyatsi, kuva hasi kugera hejuru. Kandi iyo wabaga uhagaze mu muryango, wabonaga urusika cyangwa se ukabona n'inkingi imwe, izamuye ikageza hejuru.

Mu muco wa kinyagwanda harimo umuduri .kuvuza umuduri biryohera amatwi n'amaso .umuduri ukoreshwa ahantu hatandukanye haba mu bitaramo ,haba mu birori bitandukanye.

Ingobyi ni igikoresho abanyarwanda bakoresha baheka umuntu wagize ikibazo, ashobora kuba arwaye, ashobora kuba afite inda, atwite. Yakoreshwaga mu bihe byo hambere nanubu hari aho igikoreshwa.

Mu bikoresho by'Abanyarwanda bya kera, harimo umuduri. Umuduri kuwucuranga usanga ari byiza cyane, uryoheye amatwi.

Mu muco wa kinyarwanda harimo igisabo, cyakoreshwaga bacunda amata, hakabamo inkongoro yakoreshwaga bakama, hakabamo igiseke, gikoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye.

Icyungo ni inkono ikoze mu ibumba, kera bayitekagamo ibishimbo ndetse n'ibijumba ndetse n'inyama bikaryoha cyane, na n'ubu hari aho bikiboneka kandi usanga rwose ari nziza.

Umuduri ni igikoresho cyo hambere bakoreshaga bacuranga, kikagira amajwi meza, cyabaga gikozwe mu giti gihese kiriho umugozi hanyuma uwo mugozi niwo bakubitagaho ukavuga neza.

Umuheto ni igikoresho Abanyarwanda bo hambere bakoreshaga barwana. Wabaga ufite umugozi, ugatamika, ugafora, ukarekura.

Mu gihe cyo hambere wasangaga bategura ibiryo byiza kandi bikomeye, aho wasangaga babi bitegurira ku mbehe no ku nkoko ,ukahasangamo ibijumba, ibigori ndetse n'imyumbati, n'ibishyimbo, n'ibihaza. Ibyo byose kandi bikaba bigize indyo yuzuye.

Mu bihe byo hambere habagaho icyo twakwita umuduri. Umuduri wari mwiza cyane barawuvuzaga haba mu gihe cy'inkera, haba mu gihe cy'ibirori, uyu mudiri wasangaga bawuvuza. Na n'ubu hari aho uwusanga ariko ukaba ufitwe na bakeya.

Urusyo n'ingasire ni ibikoresho byifashishwaga mu gihe cyo hambere, wakeneraga ikirago cyo gusutamaho, ugakenera n'umuranda wo gushiraho inkoko, ugakenera n'icyibo kirimo amasaka cyangwa se uburo, hanyuma ugasya, hanyuma ifu ikajya ijya ku nkoko ivuye ku ngasiri.

Uko benga ibitoki : Ibitoki barabitara, hanyuma byamara gushya bakabitonora, bamara kubitonora bakabishyira mu muvure, hanyuma bakazana ibyatsi bakenga hakavamo umutobe mwiza kandi uryoshye.

Mu muco wa kinyarwanda harimo gucunda amata. Amata yashirwaga mu gisabo, igisabo kikarambikwa mu kirambi, hanyuma umuntu akicara agacunda. Hakaboneka amavuta n'amata ariyo bitaga amacunda.

Inkono za kinyarwanda, zikozwe mu ibumba, zigakunda kuryosha ibiryo. Ibiryo byose watekeyemo biraryoha: byaba ibishyimbo, byaba ibijumba, byaba inyama biba biryoshye cyane.

Mu muco wa kinyarwanda harimo kugosora ibishyimbo ukoresheje inkoko ,ibishyimbo ukabivanamo inkumbi cyanga se umwanda. Inkoko ibohwa n' abanyarwanda ni umwihariko wa kinyarwanda.

Isekuro n'umuhini wayo byifashishwa muri byinshi, urugero twatanga ni nko gusekura isombe uyishyiramo ukayisekura ukayinoza cyane, iyo sombe ukayivanamo, ukayiteka, isombe yasekuwe mu isekuro iba iryoshye cyane.

Iyo usuye ingoro ndangamurage z'u Rwanda, uhasangamo inzu za kera uko baziteguraga, uko ibisabo byabaga birimo ndetse n'inkongoro uko zaba ziteretse, gose usanga ari ibintu byiza cyane, aho usanga no hasi hateguye imikeka.

Ikigage cyangwa se umusururu ni' ikinyobwa gikozwe mu masaka, gishobora no gukorwa mu buro ndetse yemwe ushobora no kubivanga byombi ikigage, cyangwa se umusururo ukaba ari ibintu bikundwa cyane mu bihe byashize, na hamwe na hamwe n'uyu munsi babinyweraga mu bikombe by'icyuma.

Isekururo ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu gihe cyo hambere cyane, na nubu hari aho igikoreshwa, iyi sekuru rero igasekura ubugari neza cyane, ubugari bwasekuwe mu isekuro, buba buryoshye cyane.

Intore zifite ibikoresho bitandukanye: harimo amayogi, harimo ingabo, harimo icumu, harimo umugara, ibyo byose, babikoresha bari guhamiriza. Kubareba aba ari byiza cyane.

Ibicuma mu muco wa kinyarwanda byari bifite akamaro kanini cyane. Hakoreshwaga ibicuma, hagakoreshwa n'imiseke yabaga ikozwe mu ngano, maze akaba ariyo bakoresha banywesha.

Ingoma yari ifite akamaro gakomeye cyane haba mu birori bitandukanye ndetse yemwe n'ibwami, ingoma rero ikaba yari ibambishijwe uruhu ndetse ikagira n'imirisho yo kuyikubitisha, ingoma rero zabaga zitandukanye bitewe n'icyo bashakaga kuvuza.

Ikibindi gikozwe mu ibumba. Kikaba cyararakoreshwaga cyera gushyiramo inzoga, bakagitereka babyita intango, abantu bakaza bagasoma bakoresheje umuheha. Na n'ubu hari aho bigikorwa.

Abategarugori b'u Rwanda bazi kubyina. Iyo babyina bikoreye uduseke, usanga ari byiza cyane, binogeye amaso, no kubireba biba binejeje cyane.

Mu muco wa kinyarwanda harimo kuvuza ingoma. Iyo ba mukerarugendo b'abazungu badusuye, nabo usanga bari kwifuza kuvuza ingoma. Hanyuma bakabahereza imirishyo maze bakavuza.

Inzu zo hambere zabaga ari ibyatsi, kandi n' iz'ubwami nazo zabaga ari ibyatsi, ariko zose zubatswe mu buryo bw'ubuhanga, kandi zifite amarembo y'ibiti bicinye cyane kandi byiza.

Ba mukerarugendo iyo bageze mu Rwanda harabanezeza, noneho by'umwihariko iyo babonye umuco wa kinyarwanda ukorwa n'intore.

Abanyarwanda bazi gukora intebe z'ubwoko bukoze mu migano, izi ntebe ni umwihariko w'abanyagwanda kandi n'abanyamahanga barazikunda kuko ni nziza zirahendutse ziri ku giciro gitoya cyane.

Umuvure ni igiti gikozwe mu muvumu. Abanyarwanda bawengeraragamo ibitoki .Nubu hari abakiwufite bengeramo ibitoki.

Mu muco wa kinyarwanda, habamo ikibindi cyakoreshwaga mu birori bitandukanye, bagasukamo inzoga cyangwa ikigage, abantu babiri bakaza bagashingamo umuheha bagasoma, ari na ko baganira.

Inanga ni igikoresho gikoze mu giti kikaba cyarakoreshwaga mu gihe cyo hambere, kikaba cyaragiraga amajwi meza na n'ubu hari aho kikiboneka kandi iyo kiri kuvuzwa kijyanye n'indirimbo bari kuririmba, usanga binogeye amaso kandi biryoheye amatwi.

Mu muco wa kinyarwanda harimo ingoma. Ingoma zikavuzwa mu gihe cy'ibirori bitandukanye, cyangwa se mu kwakira abashyitsi.

Mu gihe cyo hambere abanyarwanda biyogosheshaga amasunzu. Iyo bayiyogosheshaga wasangaga baberewe cyane, ni wo wari umuco w'abanyarwanda b'icyo gihe, kuko n'abagabo nabo barayiyogosheshaga.

Inkongoro ni kimwe mu bigize umuco w' u Rwanda, iyo babaga bamaze gukama bakamiye mu nkongoro, hakaba hari umushyitsi, baramuherezaga na we agakoraho.

Igiseke mu muco wa kinyarwanda gifite akamaro gakomeye. Iyo mugenzi wawe yakoze ubukwe cyangwa se ushaka kumusura, ufata ca giseke ugashiramo ibishimbo ugapfundikira ukikorera ku mutwe, usanga ari byiza cane.

Ibibindi ni inkono, ni ibikoresho bibumbwe mu ibumba, kandi byakoreshwaga mu bintu bigiye bitandukanye, haba muri gahunda z'ubukwe ho bashyiragamo inzoga cyangwa se bagashyiramo ibigarye. No muri iki gihe hari aho bikiboneka, ushaka kubisura wabisanga mu ngoro ndangamurage.

Amategura ni kimwe mu bigize umuco wa kinyarwanda. Akaba akozwe mu ibumba bakaritwika rikavamo amategura meza cyane, bakayasakaza inzu.

Igisabo mu umuco wa kinyarwanda cyacundaga amata .Igisabo gikoreshwa muri gahunda yo gushyingirwa.

Ikibo mu muco wa kinyarwanda gifite akamaro gakomeye cyane kuko gikoreshwa muri gahunda zigiye zitandukanye haba mu gutegura ndetse yemwe haba mu gusura ndetse no muri gahunda z'ubukwe naho gishobora gukoreshwa.

Mu muco wa kinyarwanda habagamo ikibindi, ikibindi gikozwe mu ibumba bakaritwika, hose ugasanga ikibindi kirakomeye.

Kera abantu bafataga isuka bakarima ibisinde barangiza bakabirunda ikirundo, hanyuma bagasigamo umwanya wo gushyiramo ibyatsi cyangwa se inkwi bagacana bigashya ibyo babyitaga nyiranonko.

Isinde mu muco wa kinyarwanda, yakoreshwaga n'abashumba kugira ngo imvura itabanyagira, bakayitwikira. Yabaga iboshywe mu birere.

Igisabo gifite akamaro kanini mu muco wa kinyarwanda. Kera bagikoreshaga bacunda amata, n'ubu hari aho kigikoreshwa. Kandi gifite akamaro muri gahunda yo gushyingirwa kuko bakijyana mu bishyigirwa. Hakaba n'inkongoro na yo ifite akamaro gakomeye, kuko bayinywesha amata.

Hijya no hino mu giturage hamwe na hamwe ushobora kuhasanga ibikoresho bya kinyagwanda, ibibindi imivure, ibicuma n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose rero byifashishwa muri gahunda zitandukanye haba guhunika imyaka, kwenga ibitoki ndetse ibicuma bakaba babinyweramo inzoga cyangwa se umutobe.

Mu muco wa kinyarwanda, harimo isekuro n'umuhini. Isekururo ikora ibintu byinshi: isekura imyumbati, isekura isombe, isekura ubunyobwa, isekura ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Mu muco wa kinyarwanda harimo icyo bita igicuma, igicuma kikaba gikoreshwa mu bintu bitandukanye, gishobora gushirwamo amazi ariko intego nyamukuru yacyo, n'ugushyiramo inzoga cyangwag se ikigage.

Mu isambu harimo ibintu bitandukanye: harimo ibihaza bivamo ibisabo, harimo amateke, harimo imboga zigiye zitandukanye.

Mu umuco wa kinyarwanda hari mo ikibindi, harimo umuvure. Ikibindi kigakoreshwa mu gutura inzoga, naho umuvure ugakoreshwa mu kwenga ibitoki.

Ingabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda zifatanya n'abaturage mu iterambere; harimo umuganda, gufasha abatishoboye muri gahunda zose ingabo z'igihugu zifatanya n'abanyarwanda.

Guhamiriza ni umuco wa kinyarwanda ukorwa n'intore, zigahamiriza, zigacinya akadiho, zikanaga umugarara, mbese aba ari byiza cyane.

Mu muco wa kinyarwanda abantu bakundaga kunywera mu gicuma, bagasangirira hamwe, ariko ubungubu kubera indwara n'isuku umuntu wese akwiye kugira igicuma.

Ibumba rikorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo inkono, harimo ibibindi, harimo n'imitako igiye itandukanye. Usanga ibintu bikozwe mu ibumba bimara igihe kinini cyane.

Mu bikoresho bya kinyarwanda harimo n'umuhoro. Ukaba ukenerwa mu bintu bitandukanye, gutema ibiti, kombera imibyare, n'ibindi byinshi.

Mu Rwanda abari n'abategarugori bazi kuboha ibintu bitandukanye: harimo ibyibo, harimo ibibenja, harimo imitako. Iyo babiboshye barabigurisha bikabaha amafaranga yo gutunga imiryango no kwikenura bo ubwabo.

Inka mu muco wa kinyarwanda zifite akamaro kanini cyane, cyane cyane inyarwanda zabaga zifite amahembe maremare, zakoreshwaga muri gahunda zigiye zitandukanye, haba muri gahunda z'ibirori, zikavugwa, zikaririmbwa, ndetse no muri gahunda z'ubukwe zirakoreshwa cyane.

Mu Rwanda dufite umwihariko wo kuboha ibiseke. Ibiseke bifite akamaro kanini cyane kuko ushobora kubikamo ibintu, ugasura inshuti n'abavandimwe washizemo ikintu, ushobora no kubitegura bikaba umutako mwiza cyane.

Abagore n'abakobwa b'Abanyarwanda bazi kuboha utwibo tugiye dutandukanye ndetse n'iyinindi mitako itandukanye. Ku buryo bagenda bayishyira mu mabara atandukanye. Umutuku, umuhondo, umweru, umukara ndetse yemwe babasha no gutaka ibyo bikoresho bakoresheje ibara ry'ibendera ry'igihugu cyacu.

Mu bihe byo hambere abanyarwanda bahunikaga imyaka yabo, bakayishyira mu bigega, ibyo bigega byabaga byubatse hanze.

Mu muco wa kinyarwanda harimo inanga, inanga kuyicuranga bikaba ari byiza cyane, iba ijyoheye amatwi abayumva.

Umutiba ufite akamaro kanini cyane ushobora kwagikwa mu giti hakajyamo inzuki zigakora ubuki, ubuki buraribwa, ubuki buzana amafaranga, ubuki bukorwamo inzoga, bukorwamo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu muco nyarwanda uhasangamo ibikoresho byakoreshwaga hambere bigiye bitandukanye, harimo intebe ya kinyarwanda, hakabamo ubukamuzo, hakabamo ingoma, hakabamo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo bikoresho bikaba byarakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere, ubu ngubu ugiye mu ngoro ndangamurage wabisangaga.

Imbyino za kinyagwanda ni nziza cane iyo bari kuziririmba usanga ziryoshye kandi zinogeye amatwi, noneho iyo bariho berekana umuco wa kinyarwanda nk'ibisabo, uduseke n'ibindi.

Intore iba ifite ibintu bitandukanye harimo ingabo, harimo icumu, yiteze umugara, yambaye urugori mu ijosi n'ibindi byinshi.

Umuduri ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa muri gahunda yo gucuranga. Iyo uri kuwuvuza uba uryoheye amatwi ndetse no kuwureba biba binejeje.

Mu muco wa kinyarwanda, igitsina gore cyabohaga umusambi cyangwa se ikirago kandi ibyo byose Abanyarwanda babiryamagaho, na n'ubu hari aho bikiboneka hari n'aho bakibiryamaho, cyangwa se bakabikoresha ibindi bitandukanye.

Abakobwa beza biteze urugor,i bakaba bapfukamye bafashe igisabo. Bari gucunda nk'uko umuco wa kinyarwanda wari uri.

Iyo intore ziri kumwe n'abandi babyinnyi maze bakabyina maze nazo zigacinya umugara, usanga ari byiza cyane usanga biterara hejuru bavuza amayogera, ugasanga binogeye amaso, ndetse no kubyumva ni byiza cyane.

Abanyarwanda cyane cyane abo mu burasirazuba ahantu haba urutoki rwinshi, bakunda kwengesha amaguru kubera ko ibitoki biba ari byinshi.

Mu muco wa kinyarwanda, habamo ikirago, habamo igicuma, habamo urukiza, habamo inkoko, habamo n'imiheha banywesha inzoga cyangwa se ikigarge.

Mu bihe byo hambere wasangaga igisoro, igisoro akaba ari ikintu cyabaga gifukuye imyobo itandukanye, hanyuna hakabaho abantu babiri cyangwa se barenze babiri , bakagikina ni byo bitaga "kubuguza".

Muri gahunda y'ubugeni harimo no gushushanya; ushobora kushushanya ikintu runaka ushaka gutanga ubutumwa, ushobora no gushushanya ikintu gisanzwe gihari.

Mu gihe cyo hambere habagaho inkono bita inkono z'itabi. Izi nkono z'itabi zakoreshwaga mu kunywa itabi, hanyuma bagatumura umwotsi bawusohora. Izi nkono no muri iki gihe hari aho usanga ziri hakeya.

Umutiba wa kinyagwanda, ni umutiba uboshwe mu mbingo, hanyuma inyuma yaho hakajyaho ibirere, hanyuma kuwagika: uwushira mu giti maze inzuki zikazaza zikinjiramo.

Mu muco wa kinyarwanda dufite urusyo n'ingasire, tukagira inkoko, tukagira n'ikibo. Ibyo byose byifashishwa mu gushaka ifu yaba iy'umutsima, yaba n'iy'igikoma.

Tesiteri ni akuma gapima umuriro. Iyo uri gu ushaka kureba fazi na netere, ukoresha ako kuma bita tesiteri, ukamenya urusinga rurimo umuriro n'urutarimo umuriro.

Amatafari akozwe mu ibumba ni meza cyane. Barayafata bakayatwika, iyo bamaze kuyatwika barayagurisha. Hanyuma abubaka amazu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bakaza bakayagura. Iki, ibintu byubakishijwe mu matafari ahiye biba bikomeye cyane.

Ubu muri iki gihe leta yafashe ingamba zo kongera ibyumba by'amashuri, ahantu henshi hatandukanye usanga hari kubakwa amashuri kandi ubujyo bwiza bwo kubaka amashuri ni ugukoresha amatafari ahiye, kuko aba akozwe mu ibumba kandi atwitswe kandi akomeye cyane.

Ibiro by'intara y' amajyaruguru biherereye i Musanze mu mujyi, iyo ugiyeyo uturutse i kigali ni amafaranga igihumbi magana inani.

Ahantu hose hari inzego za leta uhasanga ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Yaba ku kagari, yaba ku mirenge, yaba ku karere, yaba no ku ntara. Ndetse no ku bigo by'amashuri ndetse no ku zindi nyubako yaba iz'amabanki.

Ikiraro cy'indege ni cyiza cyane, gitatse amabara y'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuyareba binogeye amaso kandi ni byiza.

Ikiraro cyi'ndege kirekire cyane, gifata hakurya y'umusozi no hakuno ku wundi musozi, kukireba biteye ubwuzu n'abantu benshi baragisura bakacyitegereza.

Ikiraro cyitwa indege ni ikiraro gikozwe mu mafelabeto ndetse n'imbaho. Ni ikiraro gifite akamaro gakomeye cyane kuko aho byashyizwe bitashobokaga ko hashyirwa ibindi biraro bisanzwe.

Amazu y'ibihangare yubakiwe abaturage, ni amazu abafitiye akamaro cane, kuko iyo umusaruro w'ibigori weze urasarurwa maze ukazamurwa ugashyirwa muri ibyo bihangari, hanyuma ibyo bigori bikazumiramo, hanyuma bikazavanwamo bihungurwa, hanyuma bikagurishwa.

Paruwasi ya Rambura ni imwe muri paruwasi zo hambere, kuko yashinzwe umwaka wa igihumbi maganacyenda na cumi na gatatu. Kandi ifite abakirisito benshi cyane bakunda kuza kuhasengera.

Insengero na kiliziya ni inzu abakristo basengeramo, bagasenga Imana yaremye ijuru ni isi.

Amasoko muri iki gihe yubatse neza usanga yubakishijwe amabati akomeye, akaba yubakishyujwe ferabeto zikomeye, ndetse aho abacuruzi bazajya bacururiza ugasanga ubakishije ruriba n'isima hasi harapavumye hose.

Iyo habaye inama abaturage bagahamagarwa muri iyo nama, bicara batuje bakumva impanuro z'umuyobozi wabo biba ari byiza cyane.

Abaturage iyo bari mu nama batega amatwi, bakumva, iyo bumvishije hari ikibashimishije bakoma amashyi. Ndetse yemwe bakabaza ibibazo, kandi abayobozi bakabasubiza neza. Usanga rwose inama yagenze neza.

Ingorofani mu bihe byo hambere, zari zifite akamaro gakomeye cyane aho wasangaga ba nyirazo bazikoresha mu gutunda imitwaro, bakaba bakorera n'amafaranga. No muri ibi bihe hari aho usanga ziri, ariko zikaba ari nkeya.

Ritiko ni imodoka nini ziba mu Rwanda zitwara abagenzi. Izi modoka ziba zifite umwihariko ni nini kandi usanga abantu bicara bisanzuye, harimo tereviziyo abantu bari kugenda bareba, kandi mu ntebe ugasanga hari aho bacagingira amaterefone yabo.

Mu mujyi haba harimo umubyigano utandukanye. Umubyigano w'imodoka, uw'abamotari, ibyo abantu bakunda kwita mbutiyaje.

Mu gihe cyo hambere, ntabwo washoboraga kubona umukobwa utwaye igare cyangwa se arisunika. Ariko ubugubu, ahenshi na henshi usanga abakobwa cyangwa se abadamu bazi amagare ku buryo na bo bayitwarira bakaba bajyana ibintu bigiye bitandukanye ku isoko.

Muri gare ni ahantu hateranira imodoka z'amoko yose, haba hari abantu benshi b'urujya n'uruza bari kujya ahantu hatandukanye.

Abantu batwara amagare, bagatwara abantu n'ibintu babita abanyonzi. Umurimo wo kunyonga ni mwiza cyane kuko utanga amafaranga.

Ubwato ni bwiza cane butwara abantu n'ibintu. Abantu bagiye mu bwato bagomba kwambara amajire kugira ngo haramutse habaye ikibazo cyo kurohama batibira.

Mu migi haba hari urujya n'uruza rw'abantu bagenda n'amaguru, imodoka nyinshi zitandukanye, moto zitwara abagenzi.

Moto bita lifani ni moto nziza cyane, ifite amapine atatu, abiri y'inyuma ,n'imwe y'imbere, ni moto nziza cyane kuko ikorera amafaranga mu buryo bwo kwikorera imizigo.

Umwuga wo gutwara abagenzi ku igare, ni umwuga mwiza kuko uzana amafaranga. Abatwara amagare bitwa abanyonzi kandi bagomba kuba bambaye amajire abaranga.

Iyo ugiye muri gare uhasanga imodoka zitandukanye n'abantu benshi batandukanye bari ku mirongo cyane cyane ku modoka zikorera mu mijyi ,uhasanga imirongo miremire ku buryo ushobora kuhatinda.

Muri gare ya Muhanga uhasangamo imodoka zigiye zitandukanye, inyuma ya gare ukahasanga abanyonzi ndetse n'abamotari, bategereje y'uko abagenzi basohoka muri gare maze bakabatwara.

Muri gare uhasanga imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye, kandi ukahasanga abantu benshi bagiye batandukanye, kandi bari kujya ahantu hatandukanye. Hari igihe usanga imodoka zabaye nkeya ugasanga ni umubyigano gusa.

I Kigali muri gare i Nyabugogo habamo imodoka nini cyane zitwa Jagwali, zikaba zijyana abagenzi mu bihugu byo hanze urugero nka Uganda.

Umwuga wo gutwara moto ni umwuga mwiza cyane, kuko uzana amafaranga menshi cyane. Utwara moto ndetse n'umugenzi, bagomba kuba bambaye kasike, kandi umumotari agomba kuba yambaye n' ijile imuranga.

Mu gihe cy'abanyeshuri, bari kujya ku ishuri, abandi bari kuvayo; aba ari benshi cyane. Muri gare haba hari abanyeshuri batandukanye bahetse ibikapu, bari gutega imodoka zigiye hirya no hino.

Umupira w'amaguru ni mwiza cyane, kuwureba uko bari gukina usanga biryoheye amaso. Uko awukubita, uko bacengana, uko agaruka uko batsinda ibitego, ibi byose usanga bishimishije cyane.

Umupira w'amaguru ni mwiza, kuwureba biba biryoheye amaso. Abanyarwanda benshi bakunda umupira, kandi umupira ni kimwe mubintu byinjiza amafaranga menshi.

Mu Rwanda hakunda kubera isiganwa ry'imodoka. Izi modoka ziba zirukanka cyane kubireba biba bishimishije, izi modoka ziba zikomeye iyo zitaye umuhanda zigakora impanuka, usanga akenshi nyirazo ntacyo yabaye.

Isiganwa jy'amagare ni jyiza cyane, iyo jyabaye abantu baza ari benshi kurireba, bafite amatsiko yo kureba uraba uwa mbere.

Idarapo ry'Igihugu rigizwe n'amabara atatu: icyatsi, umuhondo n'ubururu. Mu bururu harimo izuba rya zahabu.

Umukino wo gusiganwa ku magare ni mwiza cyane. Abantu benshi bazakuwureba ， biba binogeye amaso kurewuba.

Amadarapo matoya y'ibendera ry'igihugu, akunda gukoreshwa ahantu henshi hatandukanye. Igihe habaye ibirori runaka, ashobora gukoreshwa. igihe habayeho kwakira umushyitsi cyangwa se perezida wa repubulika nabwo arakoreshwa.

Umupira w'amaguru urakundwa cane, iyo habaye umupira abantu benshi bajya kurewuba. Iyo abakinnyi bari gukina biba bijyoheye amaso noneho akarusho iyo amakipe makuru yahuye biba ari byiza cyane.